Kwigaragaza kubushake, amande n'inyungu z'ubukererwe byakoreweho abasora, bakoze amamenyekanisha arenga magana inani mirongo itanu ku musoro wa teveya muri gahunda yo kwigaragaza ku bushake. Iyi ngiyi ni gahunda ya Rwanda reveni otoriti.

Umurima uhinzemo ibigori, ukaba urimo ipoto y'amashanyarazi, ririho insinga zijyana umuriro mu baturage, aho bawukeneye hose.

Intebe ziteye hanze, hariho abantu, abagabo n'abagore, bose bategereje guhabwa serivise, kwa muganga ni ho bari, bose baharamukiye kugira ngo bivuze.

Ibyapa bitatu byo mu muhanda, icyapa kibanza cyerekana aho dodoni, abashoferi iyo bahageze bakagabanya umuvuduko. Icyapa gikurikira cyerekana, aho abanyeshuri bambukira. Icya gatatu, cyerekana y'uko ari muri metero ijana.

Icyapa cyo mu muhanda kigaragaza yuko bisi zitemerewe kuhanyura, kikaba kiri mu ishusho y'uruziga kizengurutswe n'ibara ry'umutuku ikirango ni ibara ry'umukara.

Imodoka ebyiri, iya mbere ikaba isa shokora, indi ifite ibara ry'umutuku. Zikaba ziparitse muri parikingi ya terasa, aho bashobora kuba bagiye kugura icyo kunywa.